Abantu benshi bahagaze imbere y'icyobo cyuzuyemo amazi, imbere yaho hari umugabo wambaye ishati n'ipantaro ku mufuka hariho ikaramu, inyuma yabo hari urutoki ndetse n'ibiti.

Umugore witeze igitambaro mu mutwe ndetse yambaye umupira ari gusarura ikawa ku giti, inyuma ye hari insina.

Umugore wambaye umupira urimo amabara y'ubururu, umukara ndetse n'umuhondo, ateze igitambaro mu mutwe, ari mu murima munini urimo ibihingwa afite ibibabi byabyo mu ntoki, inyuma hari ishyamba ry'inzitane ndetse n'umusozi.

Imiti yica udusimba iri mu macupa y'amabara atandukanye asa ubururu, umweru, umutuku, icyatsi, umuhondo, ateretse agerekeranye.

Umugore n'umugabo bari mu muririma bafite amasuka, bari gusarura ibirayi mu murima iruhande hari umwana wabo, bari mu gishanga kinini gikikijwe n'umusozi uriho ibiti.

Ppiniyeri yubakishije ibiti, hasi hahumbitse imbuto, haruguru hari aruzwari zo kuvomeshamo amazi n'abantu bahicaye.

Ikibaya kinini gihinzemo umuceri ndetse n'abahinzi bari kuwubagarira bafite umufuka, impande hakikijwe n'amashyamba y'inzitane.

Ishusho iriho ibintu bitandukanye byo kurya no kunywa, igizwe n'amaronji, indimu, inyanya, ikigori, ibirayi, icyayi ndetse n'ibirahure birimo inzoga.

Igishanga kirekire gihinzemo umuceri harimo inyoni z'ubwoko butandukanye n'ikiyongoyongo, hari impande umuhinzi ufite umufuka usa umweruru ndetse n'ishyamba rihakikije.

Abantu bambaye ga z'umweru babiri barunamye, abandi bafashe umufuka mu ntoki, harimo Abasirikare ndetse n'Umudaso umwe, impanda yabo hari ishyamba ry'ibiti byinshi.

Abasore babiri bafite amasuka bari guhinga, imbere yabo hahagaze umugore wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara n'ingofero mu mutwe ari kubaganiriza, bahagaze mu murima munini uhinzemo ibihingwa.

Ingemwe z'ibiti zipakiye mu bihoho, amashashi y'umukara, birazitiye birunza ahantu hamwe ndetse kuri buri ngemwe hariho agapapuro.

Umugore wambaye ikanzu y'igitenge afite umupira uzamura amazi mu murima we ari kuvomera, impande hari umurima w'insina uteyemo n'inyanya ku ruhande.

Umwana ufite rozwari mu ntoki ebyiri ari kuvomera ibihingwa biteye mu murima, impande yaho hari ibihuru ndetse n'ibiti byinshi.

Inka ziri ahantu hamwe ku murongo ziri kurisha ibyatsi bazigaburiye, ziri ahantu hubakishije ibyuma ndetse hasakaje amabati.

Ubwanikiro bw'ibigori impande hari inyubako ndetse n'urutoki, ibiti byinshi n'ibihuru by'inzitane n'umusozi hakurya.

Abantu bambaye amataburiya y'umweru amapantaro n'inkweto zifunze ndetse n'ingofero zisa umuhondo, bari mucyumba gisize irangi ryumweru.

Umugore wambaye itaburiya y'umweru, ipantaro y'umukara n'inkweto zifunze, ari mu nzu ipakiyemo amajerekani menshi ndetse n'utuvido dutoya dupfundikiye.

Abantu babiri bambaye ga z'ubururu mu ntoki, bafite inshinge bari gutera inyamaswa ifite ibisebe, impande hari icyuma bita imbugita.

Abavuzi b'amatungo bambaye amataburiya y'umweru, ga mu intoki, bafite ibyuma bari kubaga inyamaswa yavuye amaraso ifite igisebe.

Inyamaswa zisa nyinshi ziri ahantu hamwe mu byatsi birebire, impande hari ibiti by'ubwoko butandukanye birebire ndetse n'ibihuru muri iryo shyamba.